Mu cyumba runaka cyangwa se mu nyubako mo imbere, harimo ameza hariho impapuro ziriho amafoto y'abantu, hari intebe isa umutuku ndetse n'umuhondo, inyuma yayo hari icyapa kinini cyanditseho mu mabara y'umweru, icyo cyapa gisa ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho mu ndimi z'icyongereza ijambo ngo buritamu.

Ni ifoto cyangwa urupapuro rushushanyijweho ibimenyetso bigaragaza inkongi y'umuriro, ahantu hahiye cyane bitewe n'impamvu runaka, umuriro w'amashanyarazi wa gazi cyangwa ikindi bikagaragaza ku ruhande handitseho ikigo gitanga ubwishingizi kizwi nka Radiyanti.

Muri gare Nyabugogo nijoro haparitswemo imodoka za bisi, ziri mu ibara ry'ubururu hakaba hari n'abantu benshi, hakaba hari inyubako zifite ubucuruzi zigiye zicanye amatara ku mihanda.

Icyapa kimanitse ahantu hejuru gishushanyijeho imbwa, icyo cyapa cyubatsi n'ibyuma ku buryo bukomeye, kiri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse cyandikishijweho n'ibara ry'ubururu ndetse n'irindi bara ry'umutuku.

Umuhanda w'ikaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uteyemo ibiti by'icyatsi kibisi by'imitako, hari amatara yaka ku muhanda ndetse hari n'ibyapa bimanitse hejuru byo kwamamaza. Uwo muhanda harimo imodoka z'ubwoko bwinshi butandukanye k'urundi ruhande hubatse amazu meza mu buryo bugezweho.

Urupapuro rw'umweru rufite n'andi mabara y'icyatsi kibisi, rwanditsweho ibintu byinshi bitandukanye bigaragara ko ari urukoreshwa ku rubuga rwa murandasi runaka, rurimo amabara atandukanye icyatsi, umweru mu byanditswe ndetse n'umukara.

Ni amagambo ari mu ibara ry'umweru, yanditswe ahantu hari ibara ry'umukara n'umutuku, agaragaramo amafaranga y'u Rwanda, ashobora kuba abitse ku rubuga rw'umuntu runaka cyangwa konti ye ya Banki.

Mu nyubako mo imbere mu cyumba cyangwa muri saro cyangwa mu bubiko, hari utubati tubitsemo ibintu cyangwa se bicururizwamo, inyubako ifite ibirahure byiza biri mu ibara ry'umweru.

Harimo ubwoko bw'amavuta yo kwisiga ku mubiri bigaragara ko ariyo bakunze kwita amavuta y'amazi, hari ari mu ibara ry'umweru n'ubururu, ari mu ibara ry'umuhondo, ari mu ibara ry'umutuku n'andi mabara atandukanye.

Hubatswe neza hari inzugi zigezweho, hasi hashashe amakaro urugi rufunguye mu imbere harimo intebe y'umweru ndetse hamanitse imyenda myinshi bigaragara ko ari ahantu hacururizwa imyenda no mu byapa byabyo birabivuga ko byanditseho ku muryango wo kwinjira.

Ubwoko bw'imodoka nini ihagaze imbere n'abagabo batatu babiri bambaye utugarurarumuri mbese amajiri n'undi umwe wambaye igisarobeti cy'ubururu ufite n'agakapu mu ntoki. Imodoka iparitse kuruhande rw'umuhanda ntabwo irimo iragenda.

Hari abagabo babiri bahagaze bambaye amashati meza kandi batebeje, bahagaze ahantu hashashe amapave, bari imbere y'imodoka y'umukara. Inyuma hari inyubako nziza yubatse neza iriho ibirango by'akagera, bigaragara ko ari ahantu bashobora kuba bacuruza imodoka cyangwa ibinyabiziga.

Imodoka ebyiri ziparitse ahantu heza hasa neza hasashe amapave hasi ku ruhande hari icyapa kinini cyanditseho Yundayi mu ndimi z'amahanga ifite parafo nziza zirimo amatara meza agezweho.

Icyapa kigaragaza ko umuvuduko ari uwa mirongo itandatu. Ishusho yacyo ni umuzenguruko, ni umuzenguruko w'umutuku imbere ni ibara ry'umweru ibyanditsemo ni umukara, inyuma y'icyapa gifite ni bagarawundi y'umweru.

Abagabo babiri bambaye neza, bahagaze imbere y'imodoka iri mu mabara y'umweru, iyi modoka ikaba iri mu ubwoko bwa Dina, bari ahantu hashashe amapave ku butaka, bari mu gipangu cyiza, cyubatse neza, n'ibyuma bikizengurutse.

Inyubako yubatse neza ifite amabati y'umweru ndetse n'ibifashe amabati biri mu ibara ry'umukara harimo imodoka z'umweru ebyiri zigaragara nk'aho zikoreshwa n'urwego rutanga serivisi zo gutwara abantu ndetse n'ibintu mu Rwanda rwa volukano.

Ni imodoka isanzwe iparitse yegeranye n'indi modoka nini yo mu bwoko bw'umutuku hakurya hari inyubako nini igeretse ya etaje yubatswe neza ifite ibirahure ku mpande kandi impande zaho haparitse izindi modoka zitandukanye.

Mu modoko mu imbere harimo intebe nziza kandi zigezweho ziri mu ibara rijya gusa umweru, hakurya hari indi modoka y'umutuku n'indi y'umukara itagaragara neza hateye ibiti, imodoka ndimo ndareba impande yanjye ifunguye ibirahure.

Mu nyubako mu imbere harimo abantu bane, harimo abamama babiri bicaye imbere, imbere yabo hari mudasobwa bigaragara ko bari gutanga serivise ku bandi bapapa bari hanze ku kigo runaka gitanga serivise. Abo bagabo barahagaze ndetse imbere yabo hari ibirahure.

Abagabo babiri umwe wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, yambaye amadarubindi n'agapfukamunwa yicaye imbere y'ibirahuri, umugabo wa kabiri yambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo umukara, yambaye agapfukamunwa ari guhabwa amafaranga banaganira.

Ubwoko bw'amafaranga y'inoti yakoreshejwe mu Rwanda mu gihe cya kera ,yari amafaranga magana atanu ashushananyijeho imbere ingagi ziri mu bihuru ,inyuma hariho abana batatu bicaye bari gusoma ibitabo. Amafaranga magana atanu afite indi mibare ku ruhande ndetse.

Ni amafaranga yo mu bwoko bw'igiceri akoreshwa mu Rwanda amafaranga makumyabiri ateretse ahantu heza h'umweru bisa n'aho ari ku ikaro bari bayateretse kugira ngo bayagaragarize abantu.

Hari ukuboko k'umuntu wambaye isaha, uri gukoresha imashini iri mu mabara y'umweru, bisa nkaho iyo mashini irimo irabara amafaranga, cyangwa se irimo irasohora impapuro zifite ibyanditseho.

Amafaranga ari mu bwoko bw'inote ya magana atanu, akoreshwa mu gihugu cy' u Rwanda yanditsweho banki nkuru y'u ywanda, hashushananijeho cyangwa se hariho inka ebyiri hariho na kode zitandukanye kuri aya mafaranga.

Imashini nini ikoreshwa ku ikaragiro ry'amata, iteretse ku makaro ifasheho neza, ikoreshejwe icometse ku muriro, ifite igikombe hasi, gisa n'ikivomerwamo amata, biri mu nyubako nziza ifite amarangi ajya gusa umweru.

Ukuboko k'umuntu wambaye umupira w'umukara akaba yambaye isaha akaba ahagaze ahantu hari imashini ikoreshwa mu gukonjesha no gushyushya ibinyobwa ndetse hari n'ikindi cyapa kinini cy'ibara ry'ubururu cyanditseho mukamira bigaragara ko bacuruzamo amata.

Abantu bane, babiri bahagaze n'abana babiri bicaye bari kunywa amata. Bafite utubido dusa umweru imbere yabo bigaragara ko turimo amata, bafite ameza imbere yabo y'umweru. Umugabo ubahagaze imbere yambaye umupira w'umweru n'umutuku kw'ikora, hakurya hari undi mugabo wambaye isarubeti y'icyatsi.

Utubati twiza twubatswe neza n'ibiti bibaje neza, turimo amaji atandukanye yo kunywa harimo n'amazi yo kunywa agaragara ko ari ahantu babicururiza igikuta kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Harimo abantu babiri bigaragara ko ari ahantu hacururizwa ibyo kunywa nk'amata, biri mu ducupa dutandukanye uduto n'utunini, turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hariho ibyapa byinshi bitandukanye biyamamaza, bari mu nyubako nziza yubatswe n'ibiti mu buryo bwa gakondo.

Ahantu hashashe amapave hanze haparitse ibinyabiziga, amamodoka, hari umukobwa urimo aragenda, hakurya hubatse inyubako nziza zicururizwamo, zifite n'ibirango byamamaza mu mabara umutuku, umweru, ubururu,...

Ni ibiganza by'umuntu bifite terefone yo mu bwoko bwa Samsung isa nkaho afite ibyo arigukora ku muyoboro wa MTN nko kohereza kugura amayinite amafaranga, ndetse n'ibindi.

Hari igipapuro kinini cyangwa se icyapa k'icyatsi kibisi, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari telefone zikoreshwa, n'iyi serivisi yitwa sipene, ikorera kuri murandasi.

Urupapuro rw'umweru rwanditsweho n'amabara y'umukara, hariho ibigo bitanga serivisi bitandukanye, ndetse kurundi ruhande hariho umubare w'amafaranga abazwe mu manyarwanda, bisa nkaho icyo kigo ari amafaranga yacyo bagiye bandikwaho ku ruhande.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwanditseho n'amabara atandukanye; umukara, umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Bigaragara ko ari urupapuro rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Ni ubwoko bw' amafaranga akoreshwa mugihugu cya Tanzaniya nkuko bigaragara mubyanditse aho mururimi rw' igiswahili, harimo inote y' igihumbi , inote ya bibiri, inote ya bitanu, inote y' ibihumbi icumi ndetse hariho n' ibiceri kuruhande .

Amafaranga ari mu bwoko bw'inote, biragaragara ko akoreshwa muri Aziya mu gihugu runaka, ni inote za makunyabiri, izamirongo itanu, niz'ijana. Bigaragara ko ayo mafaranga akoreshwa mu gihugu kimwe mu byo muri Aziya.

Inoti z'amafaranga zigaragara mu mabara atandukanye z'uburyo butandukanye zikoreshwa mu bihugu runaka bitagaragara neza, hariho amafaranga inoti mirongo itanu, inote z'icumi, n'inoti z'ijana, bigaragara ko aya ari amafaranga akoreshwa mu ma leta atandukanye.

Ibiganza by'umuntu w'umugabo ufite amafaranga iy'inote, inote y'ijana iri mu mabara y'umweru, umukara n'andi mabara bisa nk'aho ari kuyabara ayo mafaranga.

Inoti y'amafaranga akoreshwa muri democracy iharanira ubumwe ya Congo, amafaranga mirongo itanu ariho umumama ugaragara nkaho ari umunyapolitiki wa kera muri iki gihugu cya Congo . Ubwo ni uruhande rumwe urundi ruhande rwubatseho amazu, ruteyeho n'ibiti mu bigaragara ku iyo noti.

Harimo ibiganza bibiri byose bifite amafaranga biri gukora ku mafaranga amwe, hari n'andi mafaranga menshi ateretse ku ruhande, kandi hari n'akamashini gakoreshwa mu guteranya, gukuramo, kugabanya imibare ndetse n'ibindi.

Uyu ni umugabo wambaye imikenyerero, yambaye urunigi mu ijosi. Imikenyero ni imyambaro kera abanyarwanda bajyaga bambara ariko n'ubu turayikoresha kuko n'uyu ni imyambaro y'umuco wacu, arimo aravugira ku ndangururamajwi, inyuma ye hari intebe z'imyeru hari n'icyapa kimushushanyijeho, hicaye abantu bisa nk'aho bamuteze amatwi wumva ibyo ababwira.

Ni ahantu bigaragara ko binjirira mu nyubako umuryango wabo urafunguye usa ubururu, mo imbere harimo udukabati dukoze neza, inyuma hari icyapa cy'ubururu cyanditseho n'amabara y'umweru, bigaragaza ko cyamamaza ibikorerwa aho hantu mo imbere.

Umuhanda w'i kaburimbo urimo imodoka zirimo ziragenda kurundi ruhande hari inyubako nini igeretse iriho icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho teganya ,iyo nyubako ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga biriho hejuru.

Akabati keza kubatswe ku buryo bugezeho gafite mudasobwa hejuru, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga gafite ibyapa bitandukanye by'ubururu, ndetse n'umweru gafite icyapa cyanditse hejuru karenti egisicangi mu ndimi z'amahanga bivuze ko bavunja amafaranga.

Muri sare cyangwa mu nyubako imwe mbere hubatswe ku buryo bwiza hari abantu benshi batandukanye, hubatswe utubati twubatse mu biti ndetse inkuta zaho zisa umweru, hari ibyapa byinshi biranga ahantu n'ibyamamaza bisa ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Abagabo babiri bari mu nyubako cyangwa mucyumba gisa umweru gifite amatara meza y'umweru hasi namakaro yubatsemo inkuta zisa mweru ndetse hubatsemo n'ibindi biri mu mabara atandukanye ariho ibyapa byamamaza amabara umutuku, ubururu, umweru.

Ni mu cyumba hashashe neza bigaragara ko ari aho kurara hasashe umusego hejuru ku ruhande hari akabati gashyirwamo ibikoresho bitandukanye nka terefone, ndetse n'ibindi hariho amarido y'umweru igikuta kirasa umweru.

Ni mu nzu mo imbere harimo intebe z'ubwoko bubiri butandukanye intebe z'amadiva ziri mu ibara ry'umukara zifite imisego y'umukara hakaba n'utundi dutebe tw'umweru dufite ni ibara ry'umuhondo ku ruhande harimo ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo

Umuhanda ucamo ibinyabiziga ushashemo amabuye ku buryo bugezwe ku buryo bigenda nta kibazo, ku ruhande hari amazu y'ikigo cya emutiyene atanga serivisi hubatswe n'amazu yandi asanzwe y'ubucuruzi hakurya hari ahateye ishyamba.

umugabo usa n'uri guteka, yambaye imyenda y'umweru bakoresha bari guteka, ari gukata ibirungo pavuro, avoka, ibitunguru, inyanya imbere hari amavuta, hari gazi zo gutekeraho, na etajeri irimo ibindi bikoresho bikoreshwa mu gikoni.

Mu nyubako mo imbere harasa neza cyane hasi hashashe amakaro yo mu mabara atandukanye umweru, umukara ndetse hejuru hari amatara yaka ibara ry'umweru meza amanuya kandi agezweho yubakishije ibikuta bikomeye, hagaragaramo umuntu wambaye ikote.

Hari intebe nziza zifite imisego myiza. Hateye ibiti ku ruhande bigezweho mu bwoko bw'amarabo byiza. Hari kwaka urumuri rwiza mw'ibara ry'umuhondo kandi rugezweho. Hasa naho ari mu nyubako imbere.

Ahantu hameze neza hateretse intebe nziza zo mu buryo bugezweho, hari ameza hariho ibiribwa, ibyo kunywa, amaji, hubatse neza mu buryo bugezweho. Hasa n'aho ari hanze aho bitegeye amazi.

Mu nyubako mwimbere harimo ibikoresho byinshi bikoreshwa murugo bitandukanye harimo robine y'amazi hacometse pulise z'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi bikoresho bikoresha amashanyarazi bitandukanye inyubako hasi yubatswe n'amakaro y'umweru ifite utubati two mu mabara y'umukara n'umweru twubatse ku buryo bwiza kandi bugezweho .

Inyubako nziza yubatse iteye amarangi y'umuhondo ifite icyapa kinini hejuru cyanditseho ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda ndetse icyo cyapa gifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo handitseho muhanga branch mu rurimi rw'icyongereza bigaragara ko ari mu karere ka muhanga giherereye hejuru hari icyuma cy'ikoranabuhanga gikoreshwa na murandasi .

Inyubako nziza yubatswe muburyo bugezweho, igeretse, ndetse ifite ibirahure biri mu ibara ry'ubururu, ifite ibikuta bisa umuhondo, hasi haparitse imodoka zitandukanye, hasashe amapave, ku rundi ruhande hari indi nyubako, ndetse haca n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nini igeretse iriho ibyapa byamamaza biri mu mabara y'umuhondo n'amabara yumutuku ndetse n'ay'umweru hanze, haparitse amamodoka ndetse bigaragara ko ari inzu ikomeye.

Intebe z'ubwoko bwinshi butandukanye ameza ndetse n'utubati, hari utuba ushobora kubikamo amasahani yawe, hari utuba ushobora kubikamo imyenda ndetse n'utwo wabikamo ibikoresho byawe bigiye bitandukanye, sibyo gusa kandi ushobora kwifuza ibikoresho nk'ibi ukaba wakwibaza ngo nabikurahe? Ushobora kujya kuri murandasi yawe ukandikamo aho wakura ibikoresho nk'ibingibi bitandukanye uhita ubona nimero zabo ukabahamagara kandi babikugezaho byoroshye.

Imbere mu nyubako yubatse neza ku buryo bugezweho, hasi hubatswe n'amakaro y'umweru ndetse n'umukara, ibikuta birasa umweru ndetse no hejuru harasa umweru, ifite ibyapa bitandukanye byandikishijeho amabara y'umutuku, ndetse n'umuhondo.

Ni abantu bicaye ku ntebe nziza, imbere yabo hateretse ameza akoze neza kandi asa neza. Aha hantu hasa umweru hari urumuri rw'umweru, hasi hari amabara y'umukara mbese harasa neza. Barimo baraganira harimo n'undi urimo aravugira kuri terefone.

Hagaragaramo umusore n'umukobwa bashobora kuba bakundana, umusore yambaye ikote umukobwa yambaye ikanzu y'umweru nziza, inyuma ya bo hari inzu yo mu bwoko bwa kadasiteri ifite amabati atukura.

Ni inyubako bubatse hanze, ifite ibirango by'umweru bigaragaza ko ari ikigo cy'imari ya PLC Rwanda, ifite hasi ishashe tapi y'umweru yo gutambukaho, inyuma yaho hari inyubako nini.

Ifoto igaragaramo cyangwa se urupapuro rushushanijeho amafaranga y'inote za bitanu n'iza bibiri akoreshwa mu Rwanda, urwo rupapuro rusa ubururu, ibishushanyijeho byanditswe mu mabara y'ubururu bukeye, umuhondo ndetse n'umweru, bigaragara ko ari ukwamamaza bijyanye n'ikigo cyikorera mu gutanga serivisi z'amafaranga, I&M bank.

Abantu batatu cyangwa se urupapuro rushushanyijeho abantu batatu, inyuma hari ibiti, hubatse igikuta cy'umweru. Abo bantu batatu ni umwana ufite icyuma gikoreshwa mu gucuranga, umugabo ndetse n'umugore.

Haragaragara moto iparitse hasi imbere y'inyubako; inyubako ndende ya etage igeretse. Ifite ibirahure ikaba yandikishijeho ibyapa mu ibara ry'icyatsi, hasi ikaba ifite imiryango itatu ifunguye harimo umuntu wambaye umupira w'umweru.

Harimo imboga rwatsi z'ubwoko bwinshi butandukanye, twavugamo sereri, puwavuro, puwaro, ibitunguru ndetse na karoti n'ibindi bitandukanye, bisa nk'aho biri kuri etajeri ari nk'ahantu bacururiza ibiribwa by'imboga rwatsi.

Inyubako ndende igeretse ifite ibirahure byiza kandi bigezweho iri mu mabara y'umutuku, umuhondo, ubururu haparitse ibinyabiziga byinshi bitandukanye amamoto, amamodoka hari n'abagenzi ku muhanda harimo moto ziri kugenda.

Ahantu hacururizwa cyangwa se mu isoko ry'imbuto harimo umumama ndetse n'abandi bantu babasore hacururizwa imbuto zitandukanye harimo imineke, inanasi n'izindi mbuto zitandukanye hakurya hateretse imifuka yo gucuruza ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bahagaze ahantu , imbere y' inyubako Nini igeretse, hariho ibyapa byinshi byamamaza, no hejuru hari abandi bantu bahagazeyo, ifite amashamyarazi cyangwa insinga z' iyica hejuru z' umuriro ndetse n' ibya murandasi.

Mw'isoko aho bacururiza ibiribwa ,Hagaragaramo inyanya ndetse n'ibindi biri hakurya bisa n'ubunyobwa, harimo abantu, abacuruzi ndetse n'abaguzi, mw' isoko bigaragara ko rishaje cyangwa se rimaze igihe.

Ni inyubako nini bigaragara ko igeretse yubatswe ku buryo bwiza kandi bugezweho, ifite ibyapa bitandukanye bigaragara ko ari ahantu hacururizwa abantu bashobora kujya gufata ibyo kurya, ndetse babwira ko banacuruza amata ya Mukamira.

Urubuga rw'irembo rwafunguye serivisi nshya aho ukoresha imashini cyangwa telefone ukaba washyiraho igihe wasezeraniye mu murenge kugira ngo uhabwe icyemezo cy'uko washyingiwe.

Abantu benshi batandukanye abagore, abamama ndetse n'abapapa, baje mu isoko ricururizwamo inyanya barahagaze, ndetse k'urundi ruhande witaruye hari inyubako yubatse n'ibyuma ndetse n'amabati.

Abantu b'igitsina gore bicaye hamwe barimo baraganira bafite ibibateretse imbere bisa naho ari intoryi cyangwa se ibindi biri mu ibase isa umweru inyuma yabo hari utubati twubatswe n'ibiti ku rundi ruhande hariho imyenda hagaragara n'amaguru y'umuntu atagaragara mu maso n'ibindi bicuruzwa kuruhande bifunitse neza.

Abantu babiri, umugore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umweru ufite terefone ku gutwi bisa n'aho ari kuyivugiraho, uwo mugabo yicaye kuri moto, uwo mukobwa na we arimo arakoresha terefone, inyuma yaho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye

Abantu batatu b'igitsina gore bahagaze ahantu umwe arimo imbere bisa nkaho ari umucuruzi abandi bahagaze inyuma y'akabati gasa umutuku ndetse n'ibara ry'umukara harimo ibyapa byinshi bitandukanye by'umuhondo, ubururu, ndetse n'ibindi hari n'ibicuruzwa bicururizwa aho.

Umugabo cyangwa se igitsina gabo yambaye ishati y'umweru iciye amaboko n'ipantaro y'ubururu, ahagaze hanze y'akazu k'umuhondo bigaragara ko gatanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda n'umuyoboro wa emutiyene.

Ni akazu kubatse gasize amabara y'umuhondo kandikishijeho umukara gakorerwamo umukozi ubifitiye ububasha utanga serivisi z'urwego rw'imari rwa emutiyeni mu Rwanda.

Abagabo bane, harimo abamotari babiri, mbese abatwara moto bigaragara ko abandi bari batwaye bari kwishyirara kuri terefone. Inyuma hari ibiti by’icyatsi kibisi ndetse hateye n’ipoto ry’umuriro w’amashanyarazi. Hari n’icyapa cyanditse mu mabara y’umukara cy’umweru.

Ni ifoto yanditseho cyangwa urupapuro rushushanyijeho amagambo atandukanye atangwa n'ikigo gitanga serivise zo kohereza amafaranga, kugura uburyo bwo guhamagarana serivise zitangwa n'ikigo cya MTN mu Rwanda.

Mu nyubako mo imbere cyangwa se mu cyumba harimo abantu benshi batandukanye, igitsina gabo n'igitsina gore, hari abicaye ndetse n'abahagaze, abahagaze bahagaze imbere y'utubati twubatse neza turi mu mabara y'umutuku, umweru, ndetse n'umuhondo, bigaragara ko ari ku kigo cya eyateri gitanga serivisi mu Rwanda.

Abantu batanu bari mu cyumba kimwe isa nkaho ari ahantu hacururizwa cyangwa se batanga serivisi z'itumanaho rya mtn, harimo umusore n'umumama begeranye, umuntu yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero ifite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Abantu batatu harimo igitsina gore umuntu umwe, ndetse n'abagabo babiri cyangwa se igitsina gabo, bahagaze imbere y'akazu k'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda cya eyateri ku kazu kari mu mabara atandukanye, umutuku ndetse n'umweru, n'umuhondo, inyuma yabo hari indi nyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho.

Abasore cyangwa se abagabo batatu bambaye imipira y'umuhondo iri mu birango by'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ikoranabuhanga, itumanaho no kohereza amafaranga cya emutiyeni bahagaze ahantu hari ibirango byinshi by'iyo serivisi itangwa n'icyo kigo impande hari umugore.

Ifoto iriho cyangwa se urupapuro rushushanijeho mudasobwa, telefone irimo amafoto y'inkweto mudasobwa irimo ibijyanye n'ibiryo hariho ibintu byanditse mu ibara ry'umweru ndetse uruwo rupapuro rusa uburura igice kimwe ikindi gice rusa umweru bigaragara ko ruri kwamamarizwaho ku bicuruzwa bikorera kuri murandasi.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi biteretse ku meza, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'amarinete, mbere yewe hari icupa ry'amazi ndetse n'igikapu cy'umukara, iruhande rw'iwe nawe hari umugore wambaye ikanzu y'umukara iciye amaboko, imbere yiwe hari icupa ry'amazi na mudasobwa biteretse ku meza.

Iri ni isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye; imyembe, amatunda, indimu, amacunga, amapapayi ariko hari kugaragaramo umuntu umwe.

Ni mu nzu mo imbere hasa neza, hasi hashashe amakaro iteye amarangi y'umweru, ifite parafo yo mu bwoko bwa jipusamu, irimo amatara meza yaka umweru, isa nk'aho igurishwa nka miliyoni mirongo irindwi z'amafaranga y'u Rwanda; bitewe n'ibyanditseho hejuru.

Mu nyubako imwe, imbere hasa neza, inkuta zifite irangi ry’umweru. Muri iyo nyubako harimo kizimyamwoto ishinzwe kuzimya inkongi z’umuriro. Hasi hubatswe amakaro meza y’umweru arabagirana, kandi harimo utubati twinshi tw’umukara n’umweru. Hari amatara yaka umweru, ndetse n’irindi rirerire rifite umugozi w’umukara.

Ibaraza ry'iyi nyubako riteretsemo intebe zo kwicaraho, n'ameza yo kuriraho cyangwa kunyweraho cyangwa gusomeraho ibitabo, ifite amadirishya y'ibirahure z'umukara n'inzugi zifite ibirahure by'umukara.

Hari intebe nziza zigezweho zo mu bwoko bw'amadiva, ziteretse ahantu hubakishije amakaro, urukuta rusa umweru, amatara meza yaka umweru agezweho, parafo isa umweru, ndetse irimo amatara y'umuhondo meza bigezweho.

Ni ubwoko bw'inzu yubatse mu buryo benshi bakunda kwita kadasiteri, ifite amarangi ateye mu buryo butandukanye kandi afite amabara atandukanye, ishashe hasi ahagaragara nk'aho ari muri parikingi, amapave.

Ni imbuga iparitsemo imodoka ndetse harimo umuntu umwe w'umumama uhagazemo, hateye indabyo ziri mu bicupa byabugenewe, hakurya hari inyubako nziza, zigezweho zigeretse inshuro eshatu zifite ibirahure by'umweru, bigaragara ko zikomeye.

Aha ngaha hari ibiti byiza cyane ndetse n'indabo nziza cyane zikikije umuhanda, hakaba hari n'igiti kirekire gishyirwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo amashanyarazi agere ahantu hatandukanye kandi hifashishijwe igiti kimwe. Ibi ngibi bifasha kugira ngo buri wese abone umuriro w'amashanyarazi bityo ubuzima bukomeze kugenda neza kandi n'ubucuruzi bwabo bugende neza.

Mu nyubako mo imbere bigaragara ko ari ahantu hacururizwa, harimo ibicuruzwa biri mu tubati ndetse n'ibiri hejuru yatwo, harimo abantu benshi, abacuruzi ndetse n'abaguzi, inyubako ifite amabara y'umweru yiganje ndetse amatara nayo yaka umweru.

Harimo abantu batatu bigaragara ko ari ahantu hacururizwa kuko harimo ibicuruzwa byinshi, bicuruzwa mu nyubako yubatse neza amabara y'umweru, harimo amatara yaka umweru ndetse harimo ibikoresho byinshi bitandukanye.

Harimo abantu benshi bahagaze ahantu hasa neza, harimo igitsina gore ndetse n'abagabo, bisa naho ari ahacururizwa imyenda igezweho. Umu mama umwe ari kureba afite igikapu mu ntoki.

Harimo abantu benshi biganjemo igitsina gore, ndetse harimo n'abagabo, hagaragara ko ari ahantu habikwa cyangwa hacururizwa ibikoresho byinshi bitandukanye nk'amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi, harasa neza harubatse, hubatswemo etajeri zigerekeranye neza.

Abantu benshi bahagaze ahantu mu nyubako bisa nkaho ari mu imbere, ndetse hari amabara menshi atandukanye muri iyo nyubako, umweru, umukara ndetse n'umutuku ni ahantu hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Umama cyangwa se umukobwa uri gusunika akamashini gatwara ibicuruzwa, ari ahantu hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hubatse utubati birimo bigaragara ko ari nk'ahantu habikwa ibicuruzwa, hari amakamera afata amashusho ndetse hari n'ibindi birango byinshi bitandukanye biyobora uhageze.

Ni ahantu hacururizwa harimo abantu bane, aho hantu hacururizwa harimo ibikoresho byinshi by'amabara y'umutuku n'umweru, hashashe amakaro hasi ku butaka.

Mu nyubako mo imbere, hasi hashashe amakaro y'umweru ndetse avanze n'ibara ry'umukara, harimo abantu bigaragara ko hacururizwa, harimo amatara yaka ibara ry'umweru, hubatse utubati turi mu mabara y'umutuku, umukara ndetse n'umweru, harimo n'abantu bigaragara ko barimo baracuruza abandi bagura.

Abagabo babiri bari ahantu hubatse neza mu nyubako imbere, bambaye amakoti n'amakaruvati n'amapantaro meza, inyuma yabo hari abagore cyangwa igitsina gore abantu babiri bambaye imyenda y'ubururu, bari muri ofisi inyuma harimo ifoto y'umukuru w'gihugu cy'u Rwanda.

Hahagaze abantu benshi, hari n'abandi bicaye bitwikiriye imitaka, ku ruhande hari abana, hari ibyapa byamamaza by'umweru, biri mu yandi mabara atandukanye, byanditseho ejo heza. Hakurya hari inzu yubakishije amatafari, ifite amabati y'ubururu, hakurya yayo hateye ibiti by'icyatsi kibisi.

Abantu babiri ndetse b’igitsina gore bambaye imyenda y’umukara, ndetse bafite ibyapa birimo ibara ry’ubururu byanditsweho n’umweru. Bigaragara ko ari ikigo runaka bari kwamamariza.

Inyubako nziza ifite inkingi zikomeye isize amabara y'umutuku ndetse ifite n'andi mabara y'umweru, yanditseho icyapa hejuru mu ibara ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'umukara cyanditseho ikigo nderabuzima cya Remera

Abagabo babiri bafite imashini itwara imizigo, harimo ibyiyoroswa ndetse n'ikindi gikapukamo imyenda, ku rundi ruhande hari imyenda icuruzwa imanitse mu tubati ndetse inyuma yabo hari n'abandi bantu mu nyubako nziza ifite amakaro hasi.

Ni ahantu bacururiza ibintu byinshi bitandukanye biri mu ma purasitike, harimo abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bigaragara ko ariwe uhacuruza. Uwo mugabo afite agacupa mu ntoki bigaragara ko afite ibyo kunywa, hejuru hari amatara meza asa neza, kandi haratatse ku buryo bugezweho.

Ahantu hacururizwa harimo abantu babiri bambaye imyenda y'umukara, umwe atwaye akamashini gato gasuneka gatwaye ibicuruzwa, undi bisa n'aho ari umucuruzi ukoreramo, harasa neza hari amatara yaka neza ku buryo bugaragara.

Ahantu habitswe ibintu cyangwa se hakaba habicururizwa bifunzwe neza, hubatswe mu buryo bugezweho hari urumuri ruhagije, amatara agezweho ndetse harimo n'ibyuma by'umukara bikomeye byubatse iyo nyubako, hari ibipapuro byanditse ibintu byinshi bitandukanye.

Icyumba cyangwa se inyubako irimo abantu babiri umusore bisa nkaho acuruza n'umukobwa usa nkaho ari umukiriya, iyi nyubako mo imbere harimo amatara meza yaka neza harimo ibirango by'umuhondo mubyo byacuruza hari ingaragazamashusho isa neza.

Ukuboko k'umuntu utagaragara neza, mu ikiganza cye afite imashini, arimo arereka umusore wambaye ishati, ufite umusatsi mwinshi, afite telefone mu ntoki ari gukoza ku iyo mashini, bari mu nyubako nziza ifite parafo igezweho, harimo amatara yaka umweru, hanze hicaye undi muntu.

Ifoto y'umuriro w'amashanyarazi ishinze inyuma y'igipangu iyi foto niyi giti. Ku gipangu hagaragara inzira' cyangwa se mu muhanda winjira mu gipangu izi poto zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo mu baturage.